Mu buzima bwa buri munsi bw'abantu usanga ari ngombwa ko banywa cyangwa bakarya ibituruka ku mata, ariko hari ahazwi bakunda kubisanga, kuko hari inzu ziba zarashyizweho zibicuruza ku mafaranga n'igiciro kiboneye.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda gifasha byinshi abanyagihugu harimo gufasha mu bigendanye no gucunga imisoro itangwa mu buryo yafasha kubaka igihugu, nk'imihanda amashuri na kaburimbo kugira ngo igihugu gitere imbere.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibyo kuvunjisha, gifasha byinshi abaturage b'u Rwanda, harimo kubahereza amafaranga no gucunga imigendekere y'amafaranga, kuko mu buryo bwose bushoboka kugira ngo biteze imbere bateze n'igihugu cyabo imbere.

Isoko ni hamwe mu hantu hahurira urujya n'uruza rw'abantu, ni kubw'iyo mpamvu rero byagaragaye ko ari ngombwa ko ari ahantu hakeneye umutekano mwinshi kugira ngo harindwe ibihakorerwa n'ibihacururizwa.

Muri iki gihe kubaka inzu usanga ari ibintu bigoye cyane, ni yo mpamvu ari byiza gukorana n'ibigo bishinzwe iby'imimyubakire, mu rwego rwo kugufasha kugushakira ibikoresho no gukomeza inzu yawe.